Abana batandukanye batoya bigishwa ibikorwa bitandukanye byo kwidagadura, ni ingenzi cyane ko abana bahabwa ubumenyi ariko bakigishwa n'imikino ibafasha gukura mu bwenge bityo bagakora neza mu gihagararo no mu buhanga.

Ahantu abana batoya bigira usanga haba hari intebe nziza ziri mu mabara atandukanye, ubururu, umuhondo ndetse n'icyatsi, haba kandi n'ibikoresho bitandukanye bifashisha biga nk'ingwa, amakaye n'amakaramu.

Urugo mbonezamikurire rw'abana batoya. Ni ingenzi cyane ko abana bagira aho bahurira maze bakiyungura ubumenyi ku bintu bitandukanye. Bagakina n'imikino itandukanye ibafasha gukura neza haba mu gihagararo no mu bwenge.

Abana batandukanye iyo bagiye mu karuhuko, baragendagenda kandi bagakora imikino itandukanye ibafasha kuruhura mu mutwe. Ni byiza ko abana biga, bagahabwa ubumenyi ariko bakagira n'igihe cyo kuruhuka.

Imfashanyigisho zitandukanye, iriho ibishushanyo bitandukanye by'amoko y'ibiribwa. Imineke, ibitunguru, pavuro n'ibindi. Ni ngombwa ko wigisha abana ukoresheje imfashanyigisho kugira ngo babashe kwiyungura ubumenyi.

Ikigo cy'amashuri aho usanga intebe zitandukanye utubati, ikibaho cyo kwandikaho ndetse'aho gushyira ibitabo, ni ngombwa ko abana bigira ahantu heza hari intebe bicaraho ndetse n'aho bashyira ibikoresho byabo.

Ibigo by'amashuri usanga hari ibimera bitandukanye nk'ibiti, ibyatsi, bifasha gukurura umwuka mwiza abanyeshuri bahumeka, iyo abanyeshuri biga neza babona akayaga bibafasha no kumenya neza ndetse no kumva ibyo bigishwa.

Ibitabo bitandukanye byifashishwa mu gukora ubushakashatsi. Ibi bigaragara cyane cyane mu isomero, aho usanga ushobora gukuramo ibitabo bitandukanye, ukabyifashisha wigisha cyangwa se ubona n'ubundi bumenyi butandukanye.

Igipapuro kimanitseho uburyo butandukanye bw'amasomo, ni ngombwa ko abantu bigishiriza ahantu hatandukanye ndetse bakoresheje uburyo butandukanye, bwo gutanga inyigisho zabo kugira ngo abanyeshuri babashe gusobanukirwa ibyo bigishwa.

Ibikorwa bitandukanye birimo gukoresha neza umusaruro uhabwa, ni ingenzi cyane kuko usanga ahantu hahunikwa imyaka haba hagomba kuba ari ahantu heza hatunganye, bityo iyo myaka ikifashishwa mu guteza imbere imibereho ya muntu.

Ahantu abanyeshuri bigira, ni ingenzi cyane ko abanyeshuri biga kugira ngo bazamure ireme ry'uburezi bwabo, maze ubwo bumenyi bazabukoreshe biteza imbere, kwiga ni byiza bituma abana bagira ubwenge, maze bakazabaho neza mu gihe kizaza.

Ku ishuri ni ahantu abana bajya bagahura n'abarezi, maze bagafata ubumenyi butandukanye, hari idarapo kandi ry'igihugu, ririmo amabara y'icyatsi, ubururu, umuhondo.

Ibipapuro bibiri biriho amagambo, ni ngombwa ko kwigisha abana ukoresheje imfashanyigisho ari ingenzi cyane, kubera ko bifasha abana kumenya vuba bitabagoye kandi bagafata ibintu byinshi by'ingenzi.

Abana batandukanye iyo bashoje amasomo cyangwa mu gihe cy'akaruhuko bakina imikino runaka, ni ingenzi cyane kubera ko bibafasha gukuza ubwenge bwabo ndetse bikanongera ubuhanga n'ubumenyi buzabafasha mu gihe kizaza.

Ahantu hatandukanye hagaragara ibitabo. Ni ngombwa ko abantu bagana aho basomera kugira ngo bakomeze bihaze: mu bwenge, ubumenyi ndetse n'ubuhanga, bityo bibafashe mu kuzamuka ndetse batere imbere.

Abantu batandukanye bariga kuri mudasobwa, ni ngombwa kwiga dukoresheje ibikoresho by'ikoranabuhanga kuko bidufasha kwiyungura ubwenge ndetse no kugendana n'ibigezweho, bityo tukagira ubumenyi bwiza kandi buhanitse.

Umukobwa wambaye ipantaro y'umukara, wambaye umupira w'umukara, arasoma igitabo mu isomero. Ni byiza gusoma kuko bikungura ubwenge, maze ukagira ubuhanga ndetse bikagufasha mu bushakashatsi no mu kwiga kwawe.

Ahantu hatandukanye higishirizwa abana ni ngombwa ko abana biga bakagira ubumenyi, ariko kandi hakaba n'ibibuga by'imikino itandukanye ibafasha kwidagadura no kuruhuka mu mutwe igihe bafite amasomo menshi.

Abanyeshuri batandukanye barava mu modoka. Ni ngombwa ko abanyeshuri bakora ingendo zitandukanye, haba ingendoshuri cyangwa ibindi bikorwa bigamije kubongerera ubumenyi. Ni byiza ko abana biga kugira ngo babeho neza.

Abanyeshuri biga ibijyanye n'ubumenyingiro ndetse n'imyuga, usanga bakora ibikorwa bitandukanye byo kwihugura ndetse no kwimenyereza akazi bijyanye n'umwuga bakora, ni ingenzi cyane kuko bibafasha kuzihangira imirimo.

Ikigo cy'amashuri ni ngombwa ko abana bajya ku mashuri bakahakura ubumenyi butandukanye. Si ubumenyi kandi bahakura gusa kuko bahakura n'izindi mpanuro zigamije kubongerera imyitwarire n'ibindi bikorwa byo kubafasha.

Abana batandukanye bari ku murongo ndetse baratega amatwi ibyo abarezi babo babigisha, ni ngombwa ko abanyeshuri bita ku byo abarimu bababwira kandi abarimu nabo bakabaha impanuro zibafasha.

Intebe, ibitabo, ibikoresho bindi bitandukanye nk'utubati ndetse n'amakaramu, ni bimwe mu bifasha abana kwiga neza. Iyo abana biga neza bituma babona ubumenyi bwiza maze bakazabukoresha neza mu gihe kizaza.

Ibigo bitandukanye by'amashuri, aho abana bahurira n'abarezi babo maze bakiga ku bintu bitandukanye. Abana ni ngombwa ko bagana ibigo by'amashuri kugira ngo bahahe uburezi buzabafasha kwiteza imbere mu gihe kizaza.

Abana batandukanye b'abanyeshuri, baricaye baratega amatwi ibyo bagomba guhabwamo ubumenyi. Ni ingenzi cyane guhabwa ubumenyi n'abantu babifitiye ububasha bityo bigafasha mu kuzamura abanyeshuri,.

Abagabo babiri barigisha abana uburyo butandukanye biyungura ubumenyi, ni ngombwa ko abana batandukanye bahurira hamwe maze bakiyungura ubumenyi ku bintu runaka bityo bakabasha kwiteza imbere.

Abana batandukanye barava ku mashuri, ni ingenzi cyane kwiga kubera ko bituma abana biyungura ubumenyi, bakabaho neza kandi bakabaho mu buryo bw'ubuhanga, ni ingenzi cyane kubera ko bituma bongera ubwenge bwabo bagakura neza.

Ku bigo by'amashuri aho abana bahurira n'abarimu maze bakiga, bityo bakaronka ubumenyi. Iyo basoje amasomo barataha bakajya gufasha ababyeyi imirimo. Ni ngombwa ko ibigo by'amashuri bigirirwa isuku kugira ngo bitange ubumenyi bwiza.

Abana batandukanye, abasore bambaye amapantaro y'umukara n'amashati y'imyeru, barajya ku ishuri bava hamwe bajya ahandi. Ni byiza ko abana biga kugira ngo bagire ejo hazaza heza.

Abantu batandukanye barabyina barishimye abanyeshuri barakoma amashyi, ni ingenzi cyane ko abanyeshuri bagira umwanya uhagije wo kuruhuka bityo bikabafasha kwiteza imbere no guteza imbere ubwenge bwabo.

Ibikoresho bitandukanye byo mu mashuri birimo intebe n'ibindi bipapuro bandikaho, amakaye, ibitabo ndetse n'ibindi. Ni ingenzi cyane kwiga kuko bifasha abana gukura neza haba mu bwenge no mu gihagararo bityo kandi bakagira n'imyitwarire myiza.

Abana bari mu bikorwa bitandukanye by'imikino, ni ngombwa ko iyo abana bafite ikibazo cyangwa kuruha cyo kunanirwa mu mutwe, bakora imyitozo ndetse n'imikino itandukanye ibafasha kuruhuka.

Abana batandukanye bariga bakoresheje ikoranabuhanga ndetse barandika mu makaye yabo kandi bari baratega amatwi ibyo bigishwa. Ni ingenzi cyane kwiga kuko bifasha abantu kubaho no kwiyungura ubumenyi ku bintu bitandukanye.

Abanyeshuri batandukanye, bararirimba kandi bakabyina. Ni ngombwa ko iyo abanyeshuri basoje amasomo cyangwa bari mu gahe k'ikiruhuko, bagira umwanya uhagije wo kuruhuka ndetse no gukora ibikorwa bitandukanye.

Abanyeshuri batandukanye baricaye, baratega amatwi ibyo bigishwa, ni ingenzi cyane guhabwa ubumenyi mu bintu bitandukanye, kugira ngo abanyeshuri bakomeze bagubwe neza kandi babone ubumenyi n'ubuhanga bifuza, iyo ubonye ubumenyi ubukoresha neza ugatera imbere.

Intebe zitandukanye, zifashishwa n'abanyeshuri iyo bari kwiga, ni ingenzi cyane kubera ko bituma abanyeshuri babona ubumenyi buhagije, buzabafasha kwiteza imbere no kwibeshaho mu gihe kizaza.

Ibitabo bitandukanye, aho abana bajya gusoma ndetse no kunguka ubwenge butandukanye, ni ingenzi kugira isomero kuko niho abana bavoma ubumenyi butandukanye bakazabukoresha bibeshaho.

Abana batandukanye baricaye bariga kandi barahabwa ubumenyi ku bintu bitandukanye, ni ingenzi cyane kwiga ndetse no kwihugura kuko bifasha kubona ubumenyi butandukanye bwifashishwa mu bikorwa bitandukanye.

Imodoka itwara abanyeshuri, ni ngombwa ko abanyeshuri mu myigire yabo batwarwa ndetse bava ahantu hamwe bajya ahandi, bikaborohera gukurikira amasomo yabo ndetse no kwiteza imbere.

Abanyeshuri batandukanye baricaye barahabwa inyigisho ku bintu runaka. Ni ingenzi cyane ko abanyeshuri bahugurwa kandi bagahabwa amakuru menshi, abafasha kuzamura ubumenyi bwabo, bityo bakazabukoreshaho neza, biteza imbere.

Abanyeshuri batandukanye, iyo bava ku ishuri baba basoje amasomo. Bityo bakagira umuhate ndetse n'umwanya wo gufasha ababyeyi ndetse kandi no gusubiramo amasomo yabo, bakazamura ubumenyi bwabo.

Ahantu hatandukanye higirwa n'abanyeshuri. Ni ingenzi cyane ko aho hantu higirwa n'abanyeshuri hagira isuku ndetse hagaterwa n'ibindi bimera byiganjemo ibiti ndetse n'indabyo, kugira ngo zikurure umwuka mwiza abanyeshuri bahumeka.

Abantu batandukanye barahabwa ubumenyi ku bijyanye na mudasobwa. Ni ingenzi cyane kwiga ukoresheje ikoranabuhanga kuko bituma witeza imbere, bikongera ubwenge n'ubuhanga bityo bigatuma ubaho neza mu gihe kizaza.

Ahantu hatandukanye hagaragara abanyeshuri haba hari n'ibyumba bitandukanye aho abafite serivisi cyangwa abashaka serivisi zinyuranye z'amasomo bajya, bityo abantu bakagira ubuzima bwiza ndetse bakiga neza.

Icyumba usangamo intebe nziza, usangamo kandi ibirahuri byiza n'amadirishya, bifasha abantu gukora ibikorwa bitandukanye, birimo kwiga ndetse no kwigisha no gukoreramo inama n'amahugurwa atandukanye.

Ahantu abantu barara usanga haba hashashe neza, haba hari igitanda, hari uburiri n'ibikoresho bitandukanye, byifashishwa mu gukora amasuku cyangwa se kuruhuka neza nk'uburiri, ibiringiti, amashuka n'ibindi.

Aho abanyeshuri barara cyangwa bacumbika, uhasanga ibikoresho bitandukanye by'isuku, birimo amavuta yo kwisiga, amasabune ndetse n'ibindi, ni ingenzi cyane ko abanyeshuri babona ahantu heza ho kuba bityo bigatuma biga neza.

Ahantu abantu bajya gusoma ibitabo bitandukanye. Ni ngombwa gusoma kubera ko bituma wiyungura ubumenyi, bigatuma ubasha kongera ingano y'ubushakashatsi bwawe kandi bikagufasha mu myigire yawe.

Ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu burezi. Haba amakaye, amakaramu, ibitabo n'ibindi. Ni ingenzi cyane kwiga kuko bifasha abantu gukuza ubwenge bwabo bityo bakigirira akamaro.

Harategurwa amafunguro yiganjemo imbuto ndetse n'imboga. Ni ingenzi cyane gutegura amafunguro arimo imbuto n'imboga, kubera ko bifasha abantu kubaho neza birinda indwara zitandukanye.

Abantu batandukanye bari mu nama, biyungura ubwenge n'ubumenyi, bafata amahugurwa ku ngingo zitandukanye. Ni ngombwa ko abantu bihugura kugira ngo babashe kugira ubumenyi buzabafasha kwiteza imbere.

Abantu batandukanye bari mu isomero ndetse barakoresha imashini cyangwa mudasobwa biga, ni ngombwa ko abantu biga bakoresheje ikoranabuhanga, kugira ngo ubumenyi bwabo bubashe kwaguka kandi butere imbere vuba.

Ahantu hatandukanye habikwa ibitabo ndetse n'ibindi bikoresho byifashishwa mu burezi. Ni ngombwa ko abantu bita cyane ku burezi ndetse no kongera ubumenyi bwabo kugira ngo babashe kuzibeshaho mu gihe kizaza.

Ahantu hatandukanye abanyeshuri bigira, usanga ibikoresho bitandukanye, birimo imyenda, ahantu batera ipasi, ugasanga hari aho bicara ndetse n'ibindi. Ni byiza cyane kuko bituma abanyeshuri babaho mu buzima bwiza.

Abantu batandukanye baricaye, bariga, bateze amatwi. Ni ingenzi cyane kwiga kuko bituma abantu bagira ubuhanga mu bintu bitandukanye, haba ubuganga, haba ubwubatsi ndetse n'ibindi bitandukanye maze bikazababeshaho.

Ahantu abanyeshuri bajya gukorera ibikorwa bitandukanye byo gusuzuma ibyo baba bapimye. Ni ingenzi cyane kubera ko bituma babaho mu buzima bwiza bwo kwiyungura ubwenge, bityo bikabafasha kuzamura ububasha bwabo bwo kumenya.

Abantu batandukanye aho bagana bagiye ku ishuri, ni ngombwa kwiga kuko bifasha abana kubaho neza, bifasha kandi mu gutuma abantu bihangira imirimo bityo ubukene bukagabanuka abantu bakabona amafaranga.

Ahantu abantu bigira uhasanga ibyumba byabugenewe, aho abashaka serivisi zitandukanye z'amasomo bajya, haba izo gukemurirwa amakimbirane ndetse n'izindi z'ubuyobozi butandukanye, bityo imyigire ikagenda neza.

Ameza, ibitabo bishobora kwifashishwa mu bikorwa bitandukanye. Ni ingenzi cyane ko abanyeshuri iyo biga, bakoresha ibitabo bitandukanye kandi bagakoresha n'ibindi bikoresho, bazamura ubumenyi bwabo.

Aho abantu bandika abarimu ndetse n'abanyeshuri, iyo umwarimu yigisha akoresha ikibaho akandikisha ingwa bityo ibyo asobanura abanyeshuri bakabasha kubimenya nabo bakabyandika mu makaye yabo.

Ibikorwa by'amashuri, harimo kandi n'indabo nziza ndetse n'ibimera bitandukanye. Ahantu abantu bigira usanga hari n'ibimera kugira ngo bibahe umwuka mwiza wo guhumeka. Ni ngombwa kwiga kugira ngo tugire ubuzima bwiza.

Ahantu abanyeshuri batandukanye bajya kwigira ibintu bitandukanye. Bahahurira n'abarezi, bakahashakashakira amakuru ndetse n'ubumenyi. Ni ngombwa ko abantu biga kugira ngo bagire ejo hazaza heza.

Ibikoresho bitandukanye bigaragara aho abanyeshuri bacumbika, birimo utubati, ibikoresho by'isuku, utujerekani, intebe, ameza n'ibindi bifasha kugira ngo abanyeshuri bagubwe neza.

Imodoka y'ishuri rikuru rya kaminuza ritwara abanyeshuri, ni ngombwa kubera ko abanyeshuri bagira ingendo zitandukanye haba ingendoshuri n'ibindi bityo bakifashisha imodoka kugira ngo bakore izo ngendo.

Aho abanyeshuri barara usanga hakoze neza cyane. Haba hari amarido, haba hari aho kubika imyenda, haba hari ibitanda ndetse hari n'ibyiza byinshi bituma abantu baruhuka neza. Ibikoresho by'isuku bitandukanye bifasha abanyeshuri kwiga.

Ishuri rikuru rya kaminuza y'abakatolike mu Rwanda. Ni ingenzi cyane kuko rifasha abanyeshuri bashaka kwiga mu bintu bitandukanye, haba uburezi, ubuganga n'ibindi kugira ngo bahabwe inyigisho.

ugitanda gishashe neza, ameza ndetse n'intebe yo kwicaraho, hari kandi aho bashobora kubika ibikoresho bitandukanye by'isuku. Ni ingenzi cyane kuko bifasha abanyeshuri kwiga neza batuje, bityo bakagira n'akanya ko kuruhuka.